Nshiga muri purimeri nakundaga intebe za pipitire zabaga nziza, twazicaragaho tukandika nta kibazo nyumaho ukabikamo amakaye yawe kuko iba ifite umwanya wo kubikamo igikapu. wabaga mwiza ukazibika, ugasanga nta kibazo amakaye yawe afite umutekano.

Nkunda ibirango bigize ikirango k'idarapo ry'u Rwanda. Biba byiza, birakeye, ndetse bikunda gukoreshwa mu bigo bya leta. Aho leta yose ikorera haba hari ikirango k'idaraporo ry'igihugu, biba byiza.

Nkunda intebe za pititile, kuko ncyiga muri pirimeri nazicaragamo nkabona ukuntu nandika neza, yewe zaramfashaga zikambera neza, ziba nziza.

Kuba umwarimu ndabikunda kuko umwarimu ni we wigisha ba perezida, ni we wigisha abayobozi bose baho abaganga, ni umwarimu ubigisha niyo mpamvu mukunda.

Kubaka inzu nziza birahenda, ariko bitanga agaciro k'umuntu wayubatse, ndetse niyo ufite akabari ugashyiramo intebe ndende, abantu hazikunda kuzicaraho, kugira ngo begere kuri kotwari.

Umuyobozi mwiza w'abanyeshuri, iyo uganirije abanyeshuri bituma abanyeshuri bose biga bashyizeho umwete, kuko yagiranye nabo ikiganiro kikabashimisha.

Umuntu iyo yize ibintu bijyanye n'ubutekenisiye, aba azi ibintu bikomeye cyane bihambaye, afasha abantu kubakorera ibintu by'ubwenge, kuko yabyize igihe cye akagiha agaciro, ndetse uwo munsi yihaye agaciro biba ari byiza.

Gukora amazi bisaba abantu kugira ngo bifatikanye, iyo muri gukora amazi ajya mu miyoboro itandukanye mu byumba birenze kimwe bisaba kugira mube muri benshi mwifatikanye.

Kwiga gukora dinamo. Ni uguteranya insinga, iyo uri umunyeshuri wiga gufata insinga ukazifunga muri dinamo, zikaba ari zo zizatanga umuriro imbere.

Umucuzi agira umuvuba, agahuha mu ziko ibyuma bigashya. Yagera nyuma agafata inyundo agakubita ku cyuma. Icyuma kigashonga kikavamo icyo ashaka kugikoresha. Ni byo byiza by'abacuzi gakondo.

Kwiga ukoresheje ikoranabuhanga, uba umuhanga cyane kuko uba wize ibintu ubisoma ku mbuga cyangwa se ku zindi nyandiko ziguha ubumenyi buhambaye uba umuhanga.

Abanyeshuri, kandi kuko abanyeshuri baba bameze nk'aho ari nk'abasirikare. Batozwa ikintu kimwe bakakigenderaho, bakacyuhiriza kugira ngo bose babe bari ku mwanya umwe. Iki kintu naki bakundiraga.

Umunyeshuri kwiga agafata biba byiza, iyo nawe amaze gufata agahugura bagenzi be, birafasha, kandi noneho bimuha inyungurabwenge, kuko aba yarize agafata, nawe akabona umwanya wo kwigisha ataragera igihe, biba byiza.